Intebe zanditseho Mitsigi z'amabara g'umutuku nag'umweru ziteretse muri jaride irimo ibyatsi bitoya hirya hariho akabingaro gafite umutaka g'umutuku nanone ka Mitsingi.

Inyubako nziza cane yubakishwa amabati g' amategura, imbere yayo hari ibiti byiza cane bifite amababi g'icatsi, n'intebe z'amabara g'umweru n'ag'umukara riteretse mu mbuga irimo amapave n'insinga zigiye zinyuze hejuru.

Ibiryo by'inyama zokeje neza，biri ku isahani hazengurutseho igitoki， mayoneze ，ibitunguru ndetse n'indimu.

Inzu ifite irangi ry'ubururu, ifite amadirishya asize irangi ryumweru, harimo ibirahure bifite n'icyapa kigaragaza ikirango cyanditseho pirimus hariho na guma guma. Ifite inkingi eshatu z'amatafari imwe itari kugaragara neza kuko mbere yaho hari ururabo.

Inyubako y'indaro ifite akantu ka sima hejuru, ifite inkingi z'ibiti, yegeranye na pisine ifite amazi g'umweru, imbere yayo hari ibyatsi bifite amabara g'icatsi, hariho n'ameza g'umweru akikijwe n'intebe.

Amakesi g'umutuku garimo amavide ga kokakora gegeranye n'intebe z'umutuku n'ameza g'umutuku hariho n'imitaka z'umutuku, hirya y'aho hari umukindo gw'amababi g'icatsi n'inzu ifite amabati ga dumuzasi, ifite n'udukuta tw'amabara g'umuhondo.

Abagabo bambaye amapantaro n'makabutura b'ababyinnyi, bari mu kabyiniro ka nijoro, karimo amatara gari kumurika amabara gatandukanye, n'undi wicaye uri kubareba impande yabo, n'undi uri kuririmba.

Inyama zokeje zizwi nka burushete zirimo uduti, ziri ku gasahani kubitse, kumeza neza. Gafite agatambaro karimo amabara gameze nk'ago kumakaro.

Imyenda z'amakanzu zimanitse aho badodera kuko hariho imashini ndetse n'intebe, igikuta c'icatsi na parafo ya tiripuregisi.

Inyubako ndende ifite amadirisha g'iribirahure byijimye icapa gifite amabati g'icatsi, moto iparitse aho y'amabara g'umutuku nag'umweru n'amapine bayiriste ku mapave gubakishijwe sima.

Ubwiherero bufunze umuryango bufite itara ryo hanze ririkwaka, kandi izuba riri kuva. Inzu zisize amarangi g'umweru zanditseho amacumbi loje. Ikirere kirakeye hariho n'ibiti.

Igiti kiriho insinga nyinshi imbere hari icapa c'umweru n'umutuku c'icuma, canditswemo mirongo ine cegeranye n'inzu ya sikoro, hagati hari abanyeshuri bambaye amashati g'umweru n'umugabo wambaye ikoti ry'umutuku.

Inyubako ifite imiryango ine isize n'irangi ryijimye imiryango yose irafunguye, hari abantu bicaye ku ntebe zifite amabara g'umutuku, hari n'inkweto ziri hasi ku shitingi ku masikariya g'iyo nzu ndetse n'imbuga irimo amapave.

Inzu ifite inkingi ebyiri ziri kugaragara y'ibara ry'ubururu, yegeranye n'inzu ifite amakaro atari kugaragara ibara neza, hariho amakesi n'akazu k'amacupa ya gaze, hari n'imodoka.

Butique icururizwamo irimo kontwari ifite ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye. Amacupa gafite imifuniko z'umutuku, iz'umuhondo n'iz'icatsi, agatebe gakozwe mu mbaho kariho capati, n'akandi gafite tiripulegisi, umuryango gw'ubururu gukinguye.

Inzu ifite irangi rya shokora ,iriho icapa cyerekana ko bamesa imyenda, hariho icyapa cayo musiteri ku kabaraza ,hariho amabati n'ipoto ry'insinga.

Abagabo bahagaze ku gikuta c'inzu y'ibara ry'umuhondo, ifite amakaro g'ibara ry'umweru n'ag'umuhondo, imbere yabo hari umugabo ufite nverope mu ntoki n'ipantaro y'ibara ry'umuhondo, inzu ifite urugi rufunguye y'ibara ry'ubururu.

Inzu y'amabati y'umutuku, mu mbuga yayo hariho igiti gifite ibibabi by'icyatsi. Ifite uruzitiro rwa senyenge n'akabaraza kariho imbabari, hakaba hariho n'icyapa. Imbere y' izi senyenge hariho ibyatsi.

Inzu ifite imiryango n'amadirisha ,umwe muri iyo miryango urafunguye hari icapa ca mitsingi cyanditseho karisimbi volukano ini senta ,hariho n'icupa rya mitsingi nakandi kapa gato kanditseho henikeni ,n'amavaze arimo indabo zitandukanye imbere yaho hari ipoto ry'amashanyarazi.

Inyubako iriho icapa canditseho amikusi kofi and pizza imbere yaho hariho igiti c'umukindo gifite amabara g'icatsi. Haparitse n'imodoka zigenda zitandukanye, hejuru rifite ibirahuri bya fime, mu muhanda hari abantu bari kugenda n'abandi bahagaze. Ifiteho n'ibyapa bigiye bitandukanye harimo icanditseho noteli wikorera.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa bicuritse, hari icyaditseho farumasi Icyirizere, hari ikindi kiriho ibyerekezo by'abana babiri bari ku cyapa cyo mu muhanda, n'imiryango ibiri ifunguye.

Umutwazi w'igare wambaye isengeri y'ibara ry'umweru, ahetse ibisheke n'umupira g'umutuku guri ku ntebe yicaraho. Amahembe go ku igare n'amapine g'igare garadaze.

Icapa kigaragaza inzu y'ibikoresho bya lekitoronike. Hariho ikirango ca telefone, ikirango ca watsapu, ikirango ca ameta, ikirango ca ekuteri, ducuruza ibikoresho bya telefone. Joshuwa onesite teki.

Imbuga ifite amapave gwubakishijwe sima, hariho moto zo mu bwoko butandukanye, amabara gw'umutuku n'ag' umukara, amapine ga moto ni matoya, ku nzu ifite igikuta gisizwe amabara g'umuhondo, umugore uhagaze ufite agakapu ku rutugu n'umutaka gwa Emutiyeni gw'ibara ry'umuhondo.

Inzu iriho icapa canditseho elekitoronikishopu hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, imbere hari antene ya sitatayimuzi n'indi ya kanarepurisi ku muryango wo gusohokeramo hariho utudobo tw'imyanda, agafite ibara ry'umutuku n'agafite ibara ry'icatsi ndetse hari n'ibikarito byinshi cane.

Icapa ca goyiko plaza cerekana uburyo inyubako yubatse n'amerekezo y'aho; hirya mu nyubako hariyo abagore batatu; umwe wambaye ikanzu ya orange undi wambaye agapira k'agatishati; imbere hari umuntu ugaragara nkaho ari kugenda ariko hagaragara ukuboko kumwe.

Abantu bari mu muhanda, umugore wambaye imyenda z'umukara undi wikoreye inkwi hirya ye hari uri gutwara igare ,wambaye umupira gurimo nimero zandikishijwe ibara ry'umweru ,hirya ye hari inzu imbere yaho hari imodoka ya tagisi n'umugabo utwaye igare.

Inzu y'ubucuruzi harimo imyenda y'ibitenge, abantu bahagaze, amakuvureri umuntu wicaye iri ni isoko rya Goyiko rwose.

Ahantu hacururizwa ibikoresho bigiye bitandukanye ibya eregitoronike nka miritipurize, ingofero zitandukanye, amabaro go gukinisha n'udukoresho abana bakinishaga.

Iyi nzu isize amarangi gumweru n'ubururu yanditseho AZANIYA, hariho n'ibyapa byanditseho mami bebi hari umwana wicaye, imbere ku muryango gufunguye hahagaze umukobwa wambaye umupira gufite ibara ry'umweru n'udukarito twa biswi.

Umumotari wambaye umupira g'ubururu， na kasike， ahetse umugenzi kuri muto，wambaye bodaboda z'umuhondo，hirya y'aho hari inzu y’amakaro g’umweru， yegeranye n'indi yamakaro g'ubwoko butandukanye，imbere hari icapa ca Orempike Moteri n'insasa ziri mu mavaze.

Icapa kigaragaza ahakorerwa ibikoresho by'uduseke, canditseho irebe basiketi koregisheni cubatswe mumbaho n'inkingi za mitarike.

Umugabo uhagaze imbere y'inzu ya etaje ifite amadirisha ashushanyijeho abana bato b'abahungu n'abakobwa, hasi hariho akabaraza gafite amabati y'umutuku, hariho n'igipupe cambaye agakanzu gatoya n'imiryango ifunguye.

Ibinyobwa bitandukanye biri mu macupa ag'umweru, bifite n'imifuniko z'ubururu, n'iz'umuhondo. Harimo n'amacupa garimo amavuta ga sante inzu irimo parafo ifite ibara ry'umutuku na twa etajeri dukoze mu mbaho.

Inzu icururizwamo ibikoresho by'ubwubatsi amarangi bw'ubwoko butandukanye ,ifite imiryango z'icatsi n'izindi z'umutuku n'amakaro g' umweru.

Ibyapa bicuritse biri ku nyubako, hari icyanditseho HAPI KIZI MALIKINILIMIYAMU SITASIYONORI LIMITEDI, byose bigaragaza icyo bakorera mu iyo nyubako.

Akabutike gatoya ,karimo ibicuruzwa bitandukanye:insinga ,ibibiriti ,biswi z'umutuku, iz'ubururu, ndetse n'imishumi.

Inzu ifite ububati bwakerebeye, hariho n'igiti gifite amababi g'icatsi n'urutoki rufite amababi nayo g'icatsi, ndetse nag'umuhondo, imbere hari porotaye ifunguye, n'icapa cyanditseho amahumbezi gesitihawuzi rwa eni ara kampani.

Inzu itatu ziteganye: Imwe yo hagati ikorera mo ikigo c'amahirwe c'umupira cya fotibeti gisizwe irangi rigiye kuba nka oranje, hirya hari inzu y'amakaro ifite inkingi z'icatsi hegamiyeho umuntu, hari indi yo hino na yo iri ho amakaro igaragara inkingi imwe y'irangi ry'ubururu.

Inzu ifite amabati gwa dumuzasi g’icatsi， ifite uruzitiro rw'ibyuma n'icapa imbere cyanditsweho EMU PI HECI Urugwiro， Limitedi besiti hawuzi tu，y'ibara ry'umweru...

Inzu icururizwamo ibiryo ku gikuta hariho abantu babiri: umugabo n'umugore umwe wambaye ingofero. Imbere hariyo amapave na moto ibiri, hariho na kasiki zifite ibara ry'icyatsi. Iyo nzu yitwa Kimaranzara resitorenti.

Inzu y'ubucuruzi hari imiryango ibiri ikinguye, hariho ibyapa bitandukanye: Hari ica miriti injiniyaringi tekinishiyani kampani rimitidi, serivisi batanga ibyangombwa by'ubutaka, kugabanya ubutaka mu bice, indi ifite icyapa cya ijiji kiyosiki ya Musanze.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bipfundikiye, biri muma kesi, g'umutuku, ag'umukara, ag'icatsi, nag'ubururu. Imbere, hari akadobo k'umuhondo ko gushiramo imyanda, n'inzugi zikinguye. Hejuru, hari handisweho nimero, ziri mw'ibara ry'ubururu.

Icyapa kigaragaza inzu icururizwamo ibyuma bya elegitoronike, cyanditseho Gadiwivazi elegitoronike shopu limitedi she Emi, ndetse na Gatarabwenge elegitoroniki fone, aho bakorera ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo telefone, bagacuruza na za telefone.

Isoko rito ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, rifite akabaraza k'utubati tw'ubururu, imbere hariyo abantu bahagaze nabicaye harimo uwambaye ijire rya emutiyene, ibikapu, ingofero biramanitse.

Inzu y'amabati ga dumuzasi, imbere ya ahari icapa gishushanyijeho imyenda y'ababageni, abagabo bambaye amakoti ga kositimu, n'abagore bambaye amakanzu y'umweru n'agapinki.

Inzu yubakishijwe amakaro g'umukara n'umweru, iriho akapa ka sikolo kari mu mabara g'umuhondo n'umukara, ko mu ishusho y'uruziga, hariho Welikamu Karasike Pabu, umugore wambaye umupira gw'icatsi n'igishora c'umutuku.

Umugabo uhagaze aho bacururiza ibikapu by'amoko gagiye gatandukanye, ag'umukara ag'umutuku nag'umuhondo, n'amabase nago garahari n'amacupa batwaragamo amazi.

Impombo za pulasitike, izizinze n'izitazinze, hariho akantu ku kuma zegetse ku gikuta c'amabuye, impande yazo hari akazu ka Emutiyene gafite urugi ruriho ipata kandi rufunguye.

Uruja n'uruza rw'abantu bahagaze mu isoko n'abicaye risakajwe amabati g'ubururu ,inzu zifite amakaro g' umweru n'ag'umuhondo, imitaka za Emutiyene n'iza Eyateli harimo n'amasafuriya n'inkweto.

Iyi nzu y'ubucuruzi ifite imiryango ibiri, imbere yaho hari supanete ya pinki. Ku muryango umwe hicayemo umukobwa, hejuru ye hari ishusho ya Bikira Mariya. Ku wundi muryango harimo abantu benshi hejuru hamanitse ibitenge n'amakuvureri ari imbere y'iyo miryango.

Kontwari yo muri resitora ifite amadirisha g'ibirahure, harimo imigati ikoze mu farini ndetse n'umwenda gw'icatsi, iteretse hasi hasashe amakaro g'umweru.

Inyubako ndende ifite amadirisha g'ibirahure bya fime iriho icapa ca tekino abamotari imbere yabo bambaye imyenda z'amabara gatandukanye igihe giti c'umukindo c'amabara g'icatsi ndetse n'indi iriho icapa ca sikoro.

Inzu y'ubucuruzi buciriritse, ifite imiryango y'amabara g'ubururu. Imbere hicaye abagore bari gucuruza imyenda imanitse ku kabaraza gafite amabati ga Dumuzasi, na kandagirukarabe mu ndobo y'umutuku na kabase k'icatsi.

Akabuga gato kariho amapave, imbere ya haparitse moto itari kugaragara icimbere, hariho n'umuntu ufashe kasike n' inzu .Hirya yaho hariho idarapo ry'igihugu imbere y'inzu ikoreramo ishami rya banki ya Kigali, Kinigi bulanshe. Haparitse n'imodoka itatu ariko iyagatatu itagaragara neza.

Inzu y'amabati ga dumuzasi， ifite igipangu kiriho porotaye y'ibara ry'ikigina， iriho icapa canditseho derishiyazi resitorenti hejuru，n'inyuguti zo mu gishinwa， iri kugaragaza amababi g'icatsi g'umukindo n'akajaride impande yaho，hari umuntu wunamye imbere y'iyo nzu.

Iyi nyubako ifite inkingi z'amabara g'umweru n'ag'umuhondo iriho icyapa gicuritse cyanditseho izhuch ifite n'akantu imbere y'aho k'amabara g'umuto.

Icapa ca Goyiko Pulaza candikishijweho amabara g'icatsi, ag' umutuku, n'ag'ubururu, hariho amanimero guko buri nimero ifite uko igenda ikorerwamo nk'ibyo byumba biyigize.

Inzu yanditseho amacumbi rogi, ifite ibikuta by'amabara g'umweru n'igipangu c'amabara g'ubururu, hirya hari ibiti by'inturusi bihari, n'agatara karikwaka hanze gafite urumuri ariko izuba ririku.

Abantu benshi bapfukamye, bambaye impuzangano y'amakoti y'umweru n'amakanzu y'umukara. Harimo abagore biteze ibitambaro by'umweru, n'abagabo bapfukamye bari hamwe n'undi mugabo upfukamye imbere yabo. Hirya, hariho ibikoresho by'umuziki, gitari, hakabaho n'ibitambaro by'umukara.

Iyi nzu ikoreramo banki y'abaturage y'u Rwanda agashami ka gakenke, ifite amabara g'umuhondo, ag'umweru, n'ag'icatsi, ifite fondasiyo y'amabuye imbere yabo hari umugore wambaye umupira g'umutuku, n'abagabo bicaye bambaye umupira g'umweru n'abandi bahagaze mu muryango...

Inzu yubakishije amategura gashaje gari kuduti tw'imitambiko, ifite icapa canditseho neza hawuze akomodesheni, ifite n'urugi rw'ibiti, hariho igikuta gisize amatafari g'ibigina, hirya y'aho hari urusasa rw'icatsi n'avoka.

Inzu ifite amabati ga dumuzasi g'icatsi, ifite uruzitiro gwubakishijwe ibyuma, imbere hari icapa canditseho Emupiheyici urugwiro elitidi gesite hawuze kabiri iri ku gikuta c'amabara gw'umweru.

Ubusitani bwiza cane burimo ibiti bigiye bitandukanye, amabara gagiye gatandukanye mi harimo imigeshi, harimo avoka n'ibindi byatsi bigufiya n'ibirebire.

Inzu nziza cane yubakishijwe n'amategura g'umuhondo n'amatafari gahiye, ikikijwe n'akazitiro k'insasa zikiri ntoya, zubakishijwe ku gakuta k'amabuye g'umweru n'akajaride karimo ibyatsi bitoya n'uduhanda tw'amabuye g'umweru twa graviye.

Urusenda rutandukanye ruri mu mabara g'umuhondo, ag'umutuku n'urundi rw'amabara g'icatsi rutarahisha, ruri mu gasobani gateretsemo n'anvirope kari hasi ku butaka.

Ahantu bakorera ibintu bigiye bitandukanye, harimo imbabura zikozwe n'ibumba zizengurukijweho n'ibyuma n'uduseke dufite amabara gagiye gatandukanye ag'umweru, ag'icatsi n'ag'umutuku. Uduseke dufite n'imikondo harimo n'uduseke tudafite imikondo.

Ahantu hari agasoko gaciriritse, bacururiza imyaka zigiye zitandukanye, ibitoki, ibijumba harimo abagore bunamye, abicaye n'abahagaze. Hirya yaho hari inzu ifite imireko z'ubururu n'amadirisha gakinguye n'inzugi zikinguye.

Inzu y'isoko rya musanze Goyiko puraza, imbere haparitse imodoka itari kurebeka amapine. Hari indi modoka ifunguye umuryango gw'inyuma, ifite ishitingi ry'ibara ry'ubururu, imbere hari umutaka gwanditseho Emutiyene g'umuhondo.

Agasoko ko k'umuhanda gateretseho amashashi g'umunyu ga bahari n'agashashi k'amabombo gari kumeza g'umutuku. Imbere hahagaze umuntu wambaye inkweto z'umukara, ipantaro' yumukara, n'ikoti ry'umukara mumuhanda gw'igitaka.

Ubucuruzi buteye imbere bw'amavuta ya Egisitara vajini oyili, mu macupa y'ibyuma n'imifuniko y'amabara g'icatsi iriho n'ibyapa biriho amagambo g'umweru na g'icatsi.

Iduka riri mo ibikoresho bitandukanye, hari mo abagabo batatu, umwe yambaye umupira gufite ibara ry'mweru numukara, undi yambaye umumupira gufite ibara ry'umuhondo n'umukara n'ipantaro y'umukara, hari mo n'ibicuruzwa bitandukanye.

Iduka ry'imyenda zifite amabara atandukanye :agumuhondo ,nag'umukara, nag'umutuku, hari umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'umutuku uhetse n'igikapu, n'undi hariho umuryango gufunguye hahagazemo umugabo ndetse n'undi uri kuruhande.

Amabase g'umukara garimo imigati z'imbada n'agafuka k'amabara g'umweru n'ag'icatsi ,gateretse impande y'agakarito ka gorudi k'amabara g'umutuku n'ag'icatsi.

Amacupa abiri ga mirinda ,gafite udufuniko twa maharare gari mu ducupa twago ,n'irindi cupa rinini rya mirinda riri mu kindi gikarito cyaryo hasi harimo utudomoro dufite imifuniko z'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu, abagore bahetse abana biteze n'ibitambaro, abagabo, umugabo wicaye mu modoka irimo imifuka isa nk'aho ari iy'ibirayi, hirya y'aho hariho isoko ry'ibiribwa. Hari imodoka itwara ba mukerarugendo ya minibisi, hariho imodoka zitwara imyaka, hariho n'imodoka zitwara abantu za kwasitere.

Ikirere kiri kuvamo izuba ryinshi riri gukubita ku ipoto ry'amatara, hariho inyubako ndende ifite amadirisha g'ibirahure byijimye, isize irangi ry'umweru ndetse n'ibyuma biri imbere yabyo hari umuntu wambaye umupira gufite ibara ry'umutuku ,wambaye ikabutura n'ingofero.

Akabutike ngendadanwa ku muhanda, harimo amatoroshi ari mu dukarito, afite ibara ry'icyatsi, ry'umutuku ndetse ni iry'umuhondo n'ubururu, nibikarito mo hagati mw'imbere.

Akabutike gato gacururizwamo ibinyobwa byo kunywa by'amaji harimo: amacupa gafite ibara ry'icyatsi, na'gandi gafite ibara ry'umuhondo, na biswi ziri mu gakarito gafite ibara ry'umutuku.

Akaduka gato k'ubucuruzi bw'imboga n'imbuto harimo inyanya, ibirayi na za kokombure, hirya hari kugaragara ahantu hari umuco mwinshi cane.

Agasoko ko ku muhanda gacururizwaho ibiribwa bitandukanye: intoryi, imiteja, umugore wambaye umupira gw'icatsi n'undi w' umupira gw'ubururu ,ku nyubako yubakishijwe amatafari gahiye g'umutuku havanzemo n'isima.

Inzu zifite ibikuta bitagaragara neza, hari umuryango ufunguye, ufite irangi ry'icyatsi, hari imyenda imanitse n'ibikapu bimanitse, ariko witegereje neza urabona ko ari gare ya Musanze, uturutse ku isoko rya GOICO.

Amasafuriya gateretse kuka etajeri k'imbaho gafite icapa cyanditseho panda sitandadi, hirya hari imbabura y'icuma, amabati gafite umuco.

Agasoko ko ku muhanda gacururizwamo imbuto z'ubwoko butandukanye. Inanasi zisa n'icatsi, amaronji g'umuhondo n'amasogisi g'umutuku, n'abandi bantu bunamye bari gucuruza amarindazi gakozwe mu ifarine.

Agasoko gacururizwamo imyaka zitandukanye, imifuka zifite amabara g'umweru n'ag'icatsi, udufuka turimo umuceri zifite amabara g'umuhondo, umugore wikoreye ibase ifite ibara ry'umutuku n'undi wunamye wambaye ikanzu ifite amabara g'icyatsi.

Umugabo ukora umwuga go gusudira, wicaye ku ibuye uri mu mutaka g'umuhondo gwa Emutiyeni, uri gusudira amabase g'icatsi n'ibidomoro by'umuhondo. Inyuma ye hahagaze umugabo wambaye umupira g'ubururu n'ipantaro y'umukara. Hirya ye hari umugore wambaye igitenge wicaye.

Agasoko gato ko hasi harimo umugore wambaye umupira gufite ibara ry'umukara n'igitambaro c'umukara, afite akabase mu ntoki k'icatsi, uri gucuruza intoryi n'inyanya zimwe ziri mu ibasi. Hirya ye hari ibitunguru biteretse hasi n'inyanya ziri mu gipaniye.

Isoko rya kijambere ricururizwamo ibikoresho byifashishwa mu rugo by'amabara gatandukanye ag'icatsi, ag'ubururu n'ag'umukara n'ag'umweru, amasafuriya g'ibyuma n'amabase ga palasitike ndetse n'ibipaniye.

Agasoko gato k'ibisima kariho karimo inkweto za bodaboda ndetse n'amasafuriya hatetse umufuka urimo amasaka na papiyejenike zimanitse ku duti dufashe ku bisima by'iryo soko rifite inkingi z'ibara ry'umweru.

Isoko rinini cyane risize amabara g'umuhondo n'agumukara. Rigaragaramo imyenda imanitse hejuru mu kirere cyane, na esanseri abantu banyuramo bagenda ifite amabati g'umucyo hejuru yayo.

Isoko ry'ibiribwa, uruja n'uruza rw'abantu barimo, inzugi zifite amabara g'umweru zirafunguye n'amabati g'ubururu, umugore wambaye ingofero y'amabara y'umutuku n'igishora kirimo amabara gatandukanye, umukobwa uhetse igikapu c'umukara.

Isoko rya kijambere risizwe amabara g'umweru n'ag'umukara, amabati gemerera umuco wo kwinjiramo imbere, ririmo ibiribwa bitandukanye, imifuka zifite amabara g'umuhondo n'ag'umweru n'indobo zirimo amandazi.

Umugore wicaye wambaye umupira gufite ibara ry'umuhondo， hahagaze umukobwa ufite ikanzu ifite ibara ryicyatsi，afite n’ibisuko hariho'umugore wambaye umupira ufite ibara ry'umweru afashe amabati gakerereye ，hirya yaho hari intebe.

Agasokoko ku muhanda gacururizwamo intebe n'ameza gakozwe mu mbaho, hari abantu benshi bategereje kugura. Umugore wambaye ingutiya, umupira gw'icatsi n'undi wambaye umupira g'umutuku. Akazu kasizwe irangi ry'umuhondo ka Emuti ene.